Ishusho iri kugaragaza amatara ari kwakira hirya, ari kwaka mu buryo ubona atandukanye, harimo umweru, ubururu, umutuku, umuhondo hiryaho hari ikinyabiziga cy'imodoka ndetse iruhande rwayo hari icyombo kimeze nka terefoni kirimo umuntu uri kugendera kuri kaburimbo, abusana n'imodoka nini y'umuhondo.

Icyapa gikikijwe n'ibiti byinshi bifite amababi y'icyatsi kiriho umugabo ufite amazina avuga ngo Brian Jones wambaye ikositimu, icyapa gisa umutuku hariho na numero wahamagaraho ndetse anamagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Icyapa kiri hejuru cyane kegeranye n'ibiti bifite ibibabi by'icyatsi, icyapa kiriho ikiganza giteruye umutaka ufite ibara ry'umutuku, ndetse n'utudomo tw'umweru icyapa gisa umweru na cyo ubwacyo handitseho amagambo y'ubururu n'umukara.

Urupapuro rwamamaza ruriho umugabo uteruye igikapu, umugabo yambaye umupira w'umweru afite igikapu gisa umukara, handikishijweho, amagambo y'ubururu ndetse n'umweru.

Igipapuro cyo kwamamaza ubwishingizi bwa radiyante hariho umugabo wicaye undi ari kumupfuka igisebe cye yambaye ipantaro izwi mu bwoko bw'ikoboyi.

Kaburimbo irimo akarongo k'umuhondo ,impande hahagaze umugore wambaye umupira umukara, ahagaze hafi y'urukuta rw'umukara ruriho icyapa gisa umuhodo, ndetse numutuku, hari umugore wambaye ishati y'umutuku n'imisatsi y'umukara, yanditseho ngo ubwishingizi wakoresha mu kwivuza, bufite icyo bwakumarira.

Urupapuro ruriho abagabo babiri bose bambaye ikositimu, umwe afite telefone undi afite igitabo bari gusoma, inyuma yabo hari imodoka nini zisa umweru ndetse n'umukara, hariho n'amagambo yandikishwa ibara ry'icyatsi avuga ngo "ushaka gucuruza nta nkomyi, kugura ubwishingizi bw'ibinyabiziga bifasha ubucuruzi".

Urupapuro rugaragaza ifishi, rusa umweru hariho: amazina y'uwahawe iyo fishi, harimo nimero ya telefoni, harimo umubare w'amafaranga yishyuye, harimo umubare w'amafaranga yakaswe mu gihe cyo kwishyura, hariho n'umubare w'amafaranga yishyuye yose muri rusange.

Urupapuro rugaragaza inshange ya banki y'abaturage y'u Rwanda iriho umubare w'amafaranga asigaye kuri banki, hariho ahantu urebera ibyakozwe, aho kwishyurira imisoro ndetse no kwishyura bitandukanye.

Urupapuro rugaragaza inshange ya banki yitwa access igaragaza aho umuntu anyura agiye kwinjira muri sisiteme yabo harimo aho ashyira umubare wibanga ndetse n'ijambo akoresha yinjira yarangiza agakandaho akinjira

Inzu ifite amabara y'umweru harimo akumba karimo imyenda itandukanye y'ubucuruzi isa umukara, ndetse harimo n'ibiseke bisa umweru n'umutuku byo gushyiramo ibintu, kandi impande yayo hari ikindi giti cy'umuhondo, ndetse kiriho n' uducuruzwa tw'udupupe.

Abakobwa babiri bahagaze umwe wambaye umupira w'ubururu, isengeri y'icyatsi ndetse n'ipantaro y'ubururu bwererutse, undi yambaye ishati yiswe ibara ry'inguni afite imisatsi miremire y'umukara ndetse yambaye n'amadarubindi.

Inkweto nyinshi zitandukanye harimo iz'abagabo n'iz'abagore zifite amabara atandukanye, harimo izisa umukara, izisa ikigina izisa umweru, izisa umutuku zose zikaba zihagaze ku kameza gafite ibara ry'umweru.

Inzu nini ifite amakaro n'amatara abiri ari kwaka icuruza imyenda myinshi ya kositimu itandukanye, irimo kositimu zifite amabara y'ubururu, ubururu bwijimye, umukara ndetse n'umweru.

Abagabo batatu babiri muri bo bafite urufunguzo rwanditseho amagambo avuga ngo ABG Akagera motozi n'imodoka y'umweru ibahagaze inyuma .

Abagabo bane bahagaze harimo uwambaye ingofero y'umweru n'ijire icyatsi bafite urufunguzo rw'imodoka runini rwanditseho amagambo avuga ngo eyibiji akagera motozi rusa umweru, iruhande rwabo hari imodoka nini isa umweru ifunguye imiryango yose.

Imodoka isa ibara ry'inshange ifite imbere akamenyetso k'umweru, ifite amatara ari kwaka n'amapine y'umukara, ihagaze ku mapave, kandi ikikijwe n'izindi modoka bisa hirya yaho hari n'ikindi kintu kimeze nk'ikizu cy'umweru ndetse n'ikindi kizu cy'umutuku.

Imodoka y'umweru ikikijwe n'indi modoka nayo y'umweru ihagaze kuri kaburimbo ifite uturongo tw'umweru, ikikijwe n'inzu zitandukanye zifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku, no hirya yaho hari aho bacuruza ibikoresho by'imodoka.

Abantu batatu harimo abagabo bariri ndetse n'umwana umugabo umwe ateruye umwana yambaye adarubindi yambaye ishati y'ubururu bwerurutse ndetse n'ubundi bururu bwinshi cyane undi yambaye umupira w'umweru ari mu kazu gafite amabara y'inguni ndetse n'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo wegerewe n'inzu zisa ikigina ndende zifite utwapa tw'umweru twanditseho amagambo atandukanye, impande yazo hari imodoka nyinshi zitandukanye zifite amabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umukara. Ziri muri kompanyi yitwa yundayi yo mu buyapani ikora imodoka.

Abantu batatu harimo abagore babiri bihaye Imana bazwi ku izina ry'abamansela n'umugabo umwe wambaye umupira w'umweru bafite urufunguzo rw'umweru rwanditseho amagambo Eyibiji Akagira Moto.

Kaburimbo ifitemo utuntu tw'umweru twasibamye tugaragaza aho abanyamaguru banyura bari kwambuka, ikikijwe n'ibatsi byinshi bisa icyatsi hari n'indabo zakubiswe n'izuba, impande yabyo hari ibinyabiziga bisa umweru, ndetse n'ibyapa byamamaza kompanyi ikora imodoka ya yundayi.

Ibiganze bibiri bifashe amagaranga menshi atandukanye, harimo amadorari ndetse n'ayo mu kindi gihugu iruhande rwaryo hari n'andi mabandari abiri y'amafaranga menshi, iburyo bwe hari akuma gakoreshwa gateranya, gakuba, kagabanya ndetse kanakuramo amafaramga rumaka.

Inote y'igihugu y'u Rwanda y'ibihumbi bibiri handitseho amagambo hejuru mu mukara wijimye avuga ngo banki nkuru y'u Rwanda, hariho ikiyaga ndetse n'imisozi ifite ibihingwa by'icyatsi.

Mu muhanda haruguru yaho hari amazu ageretse kabiri ubona ko handitseho ngo hoteli cyangwa aparitema aho bacumbikira abantu bakaraharara, kandi munsi yaho hari aho bahahira hari isoko rinini bahahiramo.

Abantu babiri bari kugurana amafaranga, umwe yambaye umupira ufitemo ibara ry’umutuku n’umweru; bari guherekanye amafaranga ari mu bwoko bw’amadorari, undi afite amarundi.

Imashini ebyiri, imwe ni iya mudasobwa isa umukara, indi ni imashini isohora impapuro ikavana inyuguti zari ku rupapuro rumwe ikabishyira ku rundi rupapuro.

Imeza ifite ibara ry'inguni harimo uturongo dusa ikigina iteretsweho igiceri cya makumyabiri harimo ikirangantego k'igihugu kirimo uburo, agaseke ndetse handitseho n'amagambo avuga ngo repuburika y'u Rwanda.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yifashishwa mu gutwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse n'igisanduku cy'ibyuma iparitse iruhande rw'umuhanda, aho itegereje gushyirwamo imizigo. Izi modoka zikaba zifashishwa mu kworoshya serivisi z'ubwikorezi hirya no hino mu gihugu. Aho zifashishwa mu kugeza ibintu mu bice bitandukanye by'igihugu.

Icyuma gifasha gukonjesha amata no kuyabika igihe kirekire gisa umweru n'ubururu, hariho inka isa umweru n'umukara handitseho n'amagambo y'umweru avuga ngo Nyanza kirike indasitirizi. industries

Iduka rifite amakaro asa umweru ritewe irangi ry'ubururu, rihagazemo abantu babiri umugore umwe, umugabo ndetse n'umwana, ririmo n'icyuma gisa ubururu n'umweru gikonjesha kikanatunganya amata igihe kirekire.

Indobo irimo ibyo kurya bisa ikigina byinshi, bizwi ku izina ry'amasambusa bitetse, bikaranze bimwe binashiririye muri byo.

Umugore uhagaze wambaye umupira w'umweru, afite terefone undi yambaye umupira w'ubururu n'umweru arunamye ari kuvoma amata, hasi ye hari indobo y'ubururu, imbere ye hari icyuma kinini kibika amata igihe kirekire.

Igikombe cy'ikirahure kirimo icyo kunywa cy'amata gikikijwe n'isahani y'umweru biteretse ku meza y'umweru kandi byose byegereye akabati gafite akantu k'akuma kariho ndetse n'igipapuro umuntu atwaramo ibicuruzwa.

Icyuma kibika kikanakonjesha amata. Kibika amata igihe kirekire bigafasha umucuruzi kuyacuruza igihe kirekire amata atarangirika kandi akagira ubuziranenge buhagije.

Inshange ya emutiyeni irimo uburyo bwo kwishyura amafaranga serivisi za emutiyeni kohereza amafaranga n'ukuntu amafaranga yoherezwa mu Bugande.

Urupapuro rw'umweru ruriho amabara atandukanye harimo ibara ry'ubururu, rigaragaza uburyo bwo kwishyura amafaranga hanze y'igihugu no mu Rwanda, ukoresheje kompanyi yitwa peyipali, iruhande rwayo harimo ahandi hasa umuhondo, hariho mobayilo mani, ndetse n'impande yayo harimo uburyo wakoresha uvana amafaranga kuri kompanyi ya peyipali uyohereza kuri emutiyeni.

Urupapuro rwamamaza ruriho ibara ry'icyatsi hariho terefoni ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, hejuru hariho akamenyetso kanditseho amagambo avuga ngo sipeni kandi yandikishijwe n'amagambo y'umukara.

Inshange ya emutiyene igaragaza uburyo emutiyene ikora, harimo ukuntu wakwishyura ifatabuguzi rya televiziyo, ukuntu wakwishyura amafaranga y'ishuri n'ibindi.

Intoki ziteru iyo telefone nini igezweho harimo imibare itandukanye yanditseho akanyenyeri ijana na cumi na gatanu urwego, biri mu ibara ry'umweru kandi na telefone iri ahantu hari ibara ry'icyatsi, hari n' igishushanyo k'igisiga.

Ishusho iri kugaragaza inshange zitandukanye, zigaragaza uburyo ki wakwishyura amafaranga mu buryo butandukanye, hariho aho kurebera amatariki, hariho ndetse n'aho kohereza amafaranga, byose bisa umweru ndetse n'ubururu.

Telefone ebyiri zose ziri kwerekana inshange igaragaza uburyo ki wakohereza cyangwa wakakira amafaranga hanze y'igihugu harimo n'ahantu ho kureba amafaranga usigajeho.

Umuntu ufite telefone igezweho, harimo uburyo bwo gukoresha wishyura ibintu bitandukanye kuri emutiyene, harimo uburyo bwo guhereza amafaranga, kugura, kwishyura ibintu bitandukanye ndetse na serivisi za banki.

Urwandiko rwemeza ko umuntu yishyuye umusoro, rutangwa n'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, hariho amazina y'abishyuye imisoro, igihe bawishyuriye, umubare w'amafaranga, umusoro wishyuwe.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu rutangwa n'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, hariho aho umuntu ashyira amazina yiwe, amafaranga y'umusoro yishyuye, igihe yawishyuriye ndetse na nimero ye igaragaza kwishyura kwe.

Urupapuro rw'inyemezabwishyu, rutangwa n'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, Rwanda Revenue Authority, hariho umuntu wishyuye umisoro, itariki yawishyuriyeho, ndetse n'ingano y'umusoro yishyuye, kandi iruhande rwarwo hari ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Urupapuro rw'umweru rwandikishijweho amagambo y'umukara. Hariho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda ndetse n'ikirangantego k' ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro; Rwanda Reveni Otoriti. Hariho amazina y'uwishyuye umusoro, igihe yawishyuriye ndetse n'umubare w' amafaranga w'umusoro yishyuriye.

Ishusho igaragaza urupapuro mpeshabwishyu bwemeza ko mu yishyuye umusoro mu kigo cy'imisoro n'amahoro rwanda reveni otoriti hariho amazina y'uwishyuye purayimu inshuwarensi limited, harimo igihe yishyuriye ndetse n'umubare w'amafaranga w'umusoro yishyuye.

Inote y'amayero yanditseho umubare magana abiri, wanditswe mu ibara rya zahabu, inote isa umweru iriho idirishya n'umuryango ufunguye.

Urupapuro rw'umweru rugaragaza amafaranga icumi akoreshwa i Burayi yitwa mayero asa umweru afitemo imiryango isa ikigina ndetse ariho n'akapa k'ubururu gafite utudomo twinshi tw'umweru.

Igipapuro gifite amabara atandukanye harimo umweru ndetse n'icyatsi, gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo karensi egisicenje retisi, kigaragaza uko amafaranga agenda avunjishwa bitewe n'igihugu.

Ibiganza bibiri biri guhererekanya amafaranga y'amadorari harimo amanoti menshi, imwe iriho umugabo udafite umusatsi imbere n'umusatsi inyuma munini, wanditseho ijana harimo akarongo k'ubururu kari hagati y'inoti.

Umuntu wirabura wambaye imyenda y'umweru ndetse n'ikigina, uri kubara amafaranga atandukanye, harimo inoti y'amadorari ijana isa umweru ndetse n'irindi bandari iri hasi.

Umugore wirabura wambaye imyenda yera uri kubara amadorari menshi aho inoti imwe ari amadorari ijana.

Umuntu uhagaze uri kubara amafaranga muri ayo mafaranga harimo amadorari ijana, ku inoti y'ijana hariho umugabo ufite imisatsi miremire ije inyuma.

Intoki zirabura ziri kubara amafaranga menshi, ifaranga rifite amabara y'umutuku umweru, hariho umugabo ufite uruhara wambaye amarinete uzwiho nk'umugabo watanzwe ubwi mu buhinde witwa Mahati Magandhi.

Intoki ziri kubara amadorari ari wi note y'ijana isa umweruru n' umukara ifite umugabo ufite imisatsi miremire y' inyuma wambaye umupira ufite ikora ry'umweru.

Ibiganza byirabura bifite ubwoko bw'amafaranga butandukanye harimo amayero ndetse n'amadorari, harimo inote y'idorari y'ijana harimo umugabo ufite umusatsi inyuma imbere ntawo afite uri kureba imbere.

Ibiceri byinshi bitandukanye biri hamwe bisa nk'izahabu ndetse biri ku rupapuro rw'umweru ruriho uturongo duhagaze dusumbana, iruhande rwarwo hari n'ikindi kintu k'icyuma kigaragaza ikarita y'isi, iruhande rwaho hari amafaranga atandukanye harimo amadorari namayero y'ijana.

Inote y'amafaranga yo muri Kongo ya mirongo itanu, hariho ikibumbano cy'umugore wambaye ikintu mu mutwe, hariho n'andi hari inzu za kera hejuru yaho hari insina ndetse n'ibicu handitseho amafaranga mirongo itanu.

Intoki zifite ubwoko bw'amafaranga atandukanye harimo ifaranga rimwe amafaranga magana atanu, amafaranga ijana, amafaranga mirongo itanu, amafaranga makumyabiri amafaranga icumi ndetse n'amafaranga atanu biri no mu mabara atandukanye.

Urupapuro ruriho ubwoko bw'amafaranga atandukanye, arimo ayo mu Rwanda, ayo muri Sawuvu Afurika, ayo mu Burundi, ayo mu Bushinwa n'atandukanye aho hariho abagabo batandukanye bagiye bafite icyo bamaze muri icyo gihugu cyabo n'ibyo babakoreye.

ubwoko bw'amafaranga menshi butandukanye buziingiye hamwe harimo abanyarwanda, amagande ndetse n'andi bihugu bitandukanye afite amabara atandukanye harimo afite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Agapapuro k'umweru kanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara, handitseho amagambo yo mu kirimi cy'amahanga ruguru, ariko harimo n'amagambo yo mu kinyarwanda ariho nk'amazina nka perezida Paul Kgame ndetse n'andi mazina agiye atandukanye.

Intoki z'abagabo babiri, umwe wambaye ishati yera, uri kwakira amafaranga n'undi uri kohereza amafaranga, aho ari kumwohereza amafaranga ari mu bwoko bw'amadolari y'inote y'ijana, n'andi mafaranga atandukanye.

Inoti y'amafaranga igihumbi yo mu gihugu cya Tanzaniya asa umweru, hariho inyubako nini igeretse rimwe, ifite idarapo hejuru ikikijwe n'imbuga ngari, iriho ibiti ndetse n'ibyatsi hakaba handitseho amagambo avuga ngo banki ya Tanzaniya amafaranga igihumbi.

Ibiganza bibiri ndetse n'ibindi bibiri biri guhererekanya amafaranga, aho hamwe hari gererekanwa amafaranga ijana yo mu gihugu cy'Ubushinwa, ndetse n'andi ari guhererekanya Amadorari, hariho umugabo ufite umusatsi winyuma.

Abantu babiri ibiganza byabo biri kugaragara bafite inoti y'amadorari ijana, hariho umugabo ufite umutwe munini ufite imisatsi myinshi inyuma ariko imbere nta musatsi uriho, hariho akamenyetso k'icyatsi n'akandi ku mutuku kandi n'undi ari gutanga ikarita y'umutuku.

inzu ifite ibara ry'umweru hariho ibyapa bitandukanye byinshi biri kwamamaza ama kompanyi atandukanye harimo kompanyi ishinzwe kohereza no kwakira amafaranga mu bihugu bitandukanye kw'isi yitwa western union

Inzu ifite imiryango y'ibirahure iriho icyapa hejuru gisa ubururu, cyanditweho amagambo menshi yamamaza asa umutuku umweru umuhondo, aho yaamazi ibigo bitandukanye harimo ibigo bifasha kohereza no kwakira amafaranga mu bihugu bitandukanye.

Inzu ndende isa umuhondo ifiteho amadanage ari kuzamuka hariho utwuma tw'umukara dufasha umuntu mugihe ari kuzamuka hejuru yaho hari icyapa kinini cy'ubururu cyandikijweho n'amagambo y'umweru avuga ngo giidi furaka foregisi biro.

Inzu isize irangi ry'ikigina rihagazweho n'abantu batatu, umwe uri kwishima mu mutwe wambaye isaha, wambaye n'umupira, abandi babiri na bo bambaye amadarubindi.

Akazu gato kari mu busitani bufite ibyatsi bisa icyatsi, hirya yaho hari irangi ry'umweru, akazu gafite amabara atandukanye, harimo: iry'ubururu umweru, umukara ndetse n'umuhondo.

Abantu bahagaze kumurongo, harimo abagore babiri ndetse n'abagabo babiri, harimo ambaye imyenda y'umukara, ndetse nundi wambaye ikanzu y'icyatsi, bahagaze ahantu hari idirishya, rifite icyapa cyumukara cyatsiho amagambo y'umuhondo ndetse n'umweru.

Abantu batandukanye bahagaze harimo abagabo n'abagore, harimo umugabo wambaye umupira w'icyatsi cyerurutse ndetse yikoreye n'igikapu cy'umukara, iruhande rwabo hari uburyo abantu bavunjisha amafaranga atandukanye bitewe n'igihugu barimo cyangwa mucyo bagiyemo.

Inzu nini igeretse rimwe iri hasi ifite ibitako birimo ibyatsi bisa icyatsi, hariho ibyapa bitandukanye byamamaza kompanyi ishinzwe ku gurana amafaranga hanze y'ibihugu no mu gihugu.

Intebe z'umweru impande yayo hari intebe ijya gusa umutuku ifite umusego w'umweru, harimo n'imeza ifite ibara ry'umweru hejuru hagati ifite ibara ry'ikigina, no hasi ikagira ibara ry'ikigina biri hasi kuri sima isa ikigina.

Igikuta gifite ibara ry'incange kegereye umutako utangaje usa ikigina hariho udutako twishi dutandukanye, hariho ibyatsi, harimo udutako dusa umweru ndetse n'udusa umutuku.

Intebe ebyiri ndetse n’imeza ifite ikirahure hejuru yacyo, ndetse n’imbaho ziyifashe intebe ebyiri zikozwe mu mbaho zifite ibara ry'ikigina kandi zifite imisego ibiri ibiri.

Ibi ni ibiro by'ivunjisha aho ujyana amafaranga yawe baguha agaciro kuko bakuvunjiraho niba bashaka mumanyarwanda abayajyana mu madolari urabona hari ibiro byinshi bifite imiryango iriho umuhondo n'icyatsi bakwereka aho bya ayo madirishya y'umuhondo niho umuntu ahagarara bakamuvungira.

Inzu ifite amatara ari kwaka umutuku ujya gusa umuhondo afite utuntu ku mpande tw'imbaho dusa umutuku n'umuhondo, hasi hari umuryango w'umukara ndetse ifite ibirahure bimeze nk'amadirishya handitseho n'amagambo ya hoteri.

Icyumba kirimo amadirishya afunguye amarido y'umukara harimo agatara gato karikka gishashwe n'amashuka y'umweru harimo imyenda yo kogana isinze neza iri hasi ku ntebe y'umweru harimo n'ikiringiti cy'umukara ndetse n'imsego y'umukara n'umweru.

Inzu ifitemo sima hasi harimo amabara y'umutuku ndetse n'umukara hahagaze abantu batandukanye bambaye imyenda y'ubururu ndetse harimo n'umwe ufite uruhu rwera imbere yabo hari za mudasobwa ziteretse ku tumeza tw'ubururu ndetse n'umweru handitseho amagambo avuga ngo murakaza neza.

Aba n' abantu batatu bari ahantu hamwe mu nzu isize amabara y'umuhondo barakeye cyane yiganjemo abagabo babiri n'umugore umwe wambaye ikanzu y'umukara n'amadarubindi imbere ye hateretse agacupa k'amazi.

Icyumba kini ni gisizwe irange ry'umweru n'agapande gato gasa umutuku hari akameza gatoya kariho mu ibara ry'uururu ndetse n'umweru impande rwaho hari imitako y'ibyatsi bitandukanye, hirya yaho harimo izina rya kompanyi ishinzwe ubwishingizi bwo kwivuza.

Kaburimbo iri kugendwamo n'abantu umwe ari kwirukanka yambaye ipantaro y'umukara, umupira w'ubururu, ndetse n'ishati y'umweru hirya y'aho hari inzu isa umweru n'ubururu yanditseho amagambo avuga ngo ladiyanti inshuwarensi kampani.

Inzu nini ndende igeretse keshi, ifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu kandi hejuru mu kirere harimo ibicu bya ubururu ndetse n'umweru iruhande rwabyo harimo igiti cyinini gifite amamababi y'icyatsi, ndetse hari n'icyapa gifite amabara y'umutuku n'umurongo w'umweru.

Imeza nini ifite ibara ry'umweru ndetse n'andi asize ibara ry'ubururu, hejuru yaho hari ibitabo by'ubururu ndetse n'umweru handitseho ijambo ryanditse mu magambo y'ubururu rivuga ngo Buritamu, ari cyo kigo cy'ubwishingizi gifasha abaturage mu kwisungana no kwivuza.

Icyumba gifite umuryango w'umweru gifite amakaro y'umweru kandi imbere yaho hari akameza gasa umweru, ubururu ndetse n'irungu handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu avuga ngo murakaza neza ndetse hirya hari icyapa cyamamaza ikigo gishinzwe ubwishingizi cyitwa MUWA.

Inzu igeretse gatatu, isa umweru, ifitemo ibyapa bitandukanye biri kwamamaza, bisa umweru ndetse n'ikigina, handitseho amagambo avuga ngo " Sonarwa", ari ikigo gishinzwe ubwishingizi, kiri Kimironko.

Inzu ifite ibara ry'ubururu n'amatafari asa ikigina ifite imiryango isa ubururu yanditseho amagambo y'umweru avuga ngo Irembo, iruhande rwayo hari n'ibindi byapa bitandukanye biri kwamamaza amabanki, mo imbere harimo amabara y'umweru.

Inzu ifite intebe bicaraho z'ibyuma, ifite ibara ry'umweru, amakaro y'umweru, ifite umuryango uriho ibipapuro byinshi byamamaza byanditseho ijambo kopedu piyesi.

Urupapuro rwamamaza uburyo wafungura konti yawe utavuye aho uri, hariho umugore wambaye umupira w'umuhondo udakabije, afite umusatsi mwinshi uringaniye, ari guseka imbere ye hari imeza y'umweru iteretseho mudasobwa.

Urupapuro rusa umweru rwandikijweho amagambo menshi y'umukara harimo n'andikijwemo umutuku, urupapuro rw'inshange ya ekwiti gurupu ari kompanyi ikora ibintu ibyinshi bitandukanye harimo na banki ibikira amafaranga abaturage.

Igipapuro cyamamaza kiriho umukobwa wambaye umupira w'umweru ufite imisatsi y'umukara ufite ibikoresho batwaramo ibintu byaguzwe bisa icyatsi n'ubururu ufite n'ikarita y'icyatsi mu kaboko k'iburyo.

Urupapuro rwa banki ya Kigali rugaragaza ifishi y'umuntu usaba inguzanyo, afite ibice bibiri igice cya mbere kigaragaza umwirondoro w'inguzanyo umuntu ashaka gusaba, igice cya kabiri kigaragaza umwirondoro w'umuntuntu ushaka gusaba inguzanyo.

Abantu benshi bahagaze mu nzu ifite amatara ari kwaka, impande yayo hari televiziyo y'umukara iri ku rukuta rufite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, muri abo bantu harimo abagabo n'abagore barimo abagabo bambaye amakositimu.

Umuhanda wa kaburimbo ushushanyijemo uturongo tw'umweru, harimo ibinyabiziga bitandukanye byinshi, harimo amapikipiki, amagare, ndetse n'imodoka, hari modoka y'umweru n'umukara, harimo amagare yicayeho abagabo harimo uwambaye ishati y'umutuku ndetse n'ijire y'umuhondo andi mapikipiki amenshi arasa umutuku.

Umugore uhagaze wambaye ijiri ijya gusa ikigina, wambaye n'igitambaro mu mutwe ndetse n'amadarubindi, afite ibicuruzwa mu ntoki ndetse n'impande ye hariyo ibindi bicuruzwa bitandukanye, harimo ibirayi ndetse n'amafu hirya hari n'undi musore uhagaze.

Inzu ifite sima ifite imiryango y'ubururu, impanda yayo hariho ingingo z'igisheke gisa umuhondo n'icyatsi, hahagazemo abagore batandukanye harimo uwambaye ipantaro, ndetse n'ikoti, n'ingofero, abandi bambaye ibitenge bafite ibicuruzwa bitandukanye birimo imipira y'ubururu.

Imbuto nyinshi zitandukanye harimo inanasi, imyembe, ibinyomoro, inyanya ndetse n'umugore wicaye witangiragi itama wambaye ibitenge n'undi wo hirya wambaye itaburiya isi icyatsi.

Umuntu wambaye ibikomo by'umweru ku ruhande, atunze inoki ikigikapu cy'ibitenge impande ye hari ibiryo bitandukanye harimo: inyanya, imineke, ibishyimbo bya shyushya ndetse n'umuceri.

Abantu batonze umurongo harimo umugore wambaye umupira w'umuhondo nundi wambaye umupira w'umukara batonze umurongo bashaka serivisi zitandukanye begerewe n'ibikarito bisa umutuku.

Abantu batatu bahagaze harimo umugabo umwe wambaye umupira w'umuhondo abagore babiri, umwe yambaye umupira w'umutuku afite akamashini ko kwishyuriraho, undi afite amafaranga ari kwishyura, bahagaze imbere y'imbuto z'amarunji.

Isoko rifite amabati harimo abantu benshi, n'ibicuruzwa byinshi bitandukanye; birimo: ibitoki, inyanya, karoti, intoryi, ndetse n'ibitunguru.

Abagabo batatu bahagaze bose bambaye inkweto z'umweru babiri muri bo bambaye amapantaro y'umukara ndetse n'imipira y'umutuku umwe muri bo yambaye ingofero, begeranye n'ibicuruzwa bitandukanye bya gakondo harimo ibiseke ndetse begeranye n'ibindi bicuruzwa bitandukanye birimo n'ibikapu.

Abantu benshi batandukanye, bahagaze, harimo abagabo, abagore, ndetse n'abana, harimo abagabo babiri bahagaze, bambaye imipira y'umuhondo, n'amapantaro y'amakoboyi, bose bahagaze basuhuzanyije, inyuma yaho, abandi baricaye, mu mutaka wa kompanyi ikora itumanaho, ya emutiyeni.

Abantu bane bahagaze, harimo abagabo batatu n'umugore umwe, umugore umwe n'umugabo umwe bambaye imipira y'umuhondo yanditseho ijambo rivuga ngo ishyura na momo biroroshye, undi yicaye ku ipikipiki yambaye umupira w'ubururu.

Ibiganza bifite terefone ntoya icanye isa umukara ndetse n'ubururu. Imbere yayo harimo ibara ry'ubururu n' amagambo yandikishijwe umweru avuga ngo amakuru shyiramo amafaranga. Iruhande rwe hariyo agapapuro k'umweru n'umuhondo kagaragaza uburyo wishyura amafaranga kuri momo.

Umugabo uhagaze wambaye ipantaro y'umukara, umukandara w'umukara n'ishati y'ubururu, uri kurebana n'undi wicaye mu kazu ka MTN gasa umuhondo; gafitemo utwapa twinshi twamamaza kompanyi ya MTN.

Muri gare ya Nyabugogo amatara bayacanye bigaragara ko bwije, abantu baracyari muri gare amamodoka ntabwo ari menshi cyane bigaragara ko aba bantu bashobora kuba babuze imodoka zibacyura ndetse ku ruhande hariho na bisi nini itwara abaturage.

Abantu bahagaze, harimo umugabo wambaye umupira w'umutuku, n'amadarubindi, impande hari umugabo wambaye umupira w'ubururu n'umweru, ndetse n' jire y'umuhondo afite terefone inyuma yabo hariyo umutaka munini w'umuhondo wandikirijweho amagambo avuga ngo kanda akanyeri ijana umwana na kabiri urwego.

Abantu bicaye harimo abagabo n'abagore bambaye imipira y'umuhondo, bari mu ihema risa umweru n'umuhondo, iruhande rwaho hari icyapa kiriho abana babiri bambaye imyenda y'ubururu, byamamaza kompanyi ya emutiyene, imbere yabo hariho umukobwa ufite ikirangururamajwi wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'amadarubindi w'umuhanzikazi nyarwanda uzwi ku izina rya Bwiza.

Akapa gasa umuhondo kanditseho amagambo y'ubururu ndetse n'umukara ndetse n'umweru avuga ngo ishyurana na mope akayenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego, nta nyishyu isabwa mu kwishyura gutya.

Umugore uri guseka, wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo ingofero y'umweru, igitambaro cy'umweru, umupira w'umutuku ndetse n'akandi kantu gasa umuhondo, afite n'akandi gapapuro k'umuhondo kanditseho ishyura na MOMO.

Abantu babiri bahagaze ku kazu gato ka emutiyene; aho bose bambaye imyenda yo hejuru y'umuhondo; umwe n'umugabo undi n'umugore; akazu ka emutiyene nako karasa umuhondo hariho amagambo yamamaza emutiyene.

Ibiganza bibiri, biteruye telefone y'umukara, ifitemo urupapuro rugaragaza inshange ya kompanyi y'itumanaho ya eyateri, isa umweru n'umutuku harimo uburyo ki wakoresha ushaka serivisi za emutiyeni zose.

Abagore batatu bahagaze umwe muribo yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara, undi yambaye ishati y'umukara iriho ibara ry'umutuku n'umuhondo, bahagaze ku tuzu tubiri twegeranye tumwe gafite ibara ry'umuhondo kandi gafite ibara ry'umutuku.

Utuzu tubiri dutoya, harimo agasa umutuku kanditseho eyateri, karimo umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ubururu, n'akandi gasa umuhondo ka MTN harimo abagabo batatu, bambaye imipira y'iumweru ndetse n'ubururu.

Akazu gato k'umuhondo karimo abantu batatu bose birabura, handitseho amagambo y'umukara hariho n'akandi kantu k'umweru karirimo ibara ry'umweru ndetse n'akandi k'amafaranga k'ubururu.

Umuntu wicaye ku ipikipiki wambaye umupirausa icyatsi wambaye imyenda mu ntoki izwi ku izina rya ga, ufite na kasike y'icyatsi yambaye ipantaro y'umukara yicaye ku ipikipiki y'umukara ifite n'agatebo inyuma kariho umuntu uri kwirukanka usa icyatsi.

Urupapuro rusa ubururu n'umweru rwamamaza kompanyi yitwa Kigali Apulayini Limitedi, ifite serivisi zitandukanye harimo gukora ubucuruzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kwamamaza ku mbuga nkoranyambaga..

Urupapuro rwamamaza hariho amasakoshi y'ibishushanyo imwe isa umuhondo indi isu umutuku yanditseho ngo onorayini shopingi, ini kigali besite onorayini shopazi.

Umuhanda urimo ibiti byinshi bifite amababi y'icyatsi harimo ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gitwawe n'umugabo wambaye kasike y'umutuku n'umupira w'umuhondo ndetse yikoreye n'urukapu runini rufite amabara y'umuhondo n'umutuku yandikishijweho amagambo y'umweru.

Urupapuro rwamamaza rufite umutwa w'amagambo uvuga ngo mu Rukari maketisimati byandikishi mu magambo y'umutuku ndetse n'umukara harimo impano ifunze neza n'igipapuro cy'umweru ndetse n'imishumi y'ikigina n'impande yayo hariho ibyatsi.

Agapapuro ko kwamamaza gasa umweru kandikijweho amagambo y'umukara, hariho akamenyetso kafite ibara ritukura kandinsemo wayipi hariho umutwe w'amagambo uvuga ngo iduka onorayini Kigali Rwanda.

Urupapuro rusa umutuku ruriho telefoni iri kugaragaza inshange icuruza ibicuruzwa bitandukanye, kuri murandasi aho ibicuruzwa harimo ibyo kumanikaho imyenda harimo ibyokurya by'imbwa n'ibindi bitandukanye.

Inzu ifite amakaro y'umukara ndetse n'umweru, ifite amadirishya afunze, ifite imiryango isa umukara n'ikigina ndetse n'inkingi zayo zisa n'icyatsi.

Inzu isa ibara ry'umweru ifite itara ricanye ndetse ifite amakaro y'umweru n'umukara, hariho igitanda gisa umukara gifite amashuka y'umweru ndetse n'imisego y'umweru kandi hejuru hariho ijambo rivuga ngo amadorari magana inani icyo yaguhereza muri Kigali.

Inzu ifite urupangu rurerure rw'umukara rutambitse, ifite amabara y'ubururu, ndetse n'icyatsi n'umweru, hirya yaho hari n'indi nzu ifite igisenge, cya ikigina.

Inzu nini igeretse rimwe ifite amabara y'umukara ndetse n'umweru ifitemo n'amadirishya menshi, ikikijwe n'ibiti bifite amashami ndetse n'amababi menshi kandi impande yayo hari imbuga ifite ibyatsi ndetse n'amabuye.

Inzu ndende igeretse ifite igipangu gisa umukara ndetse n'izahabu hariho utwatsi dusa icyatsi, ndetse ifitemo amape ajya gusa umweru.

Ni mu isoko ry'ibiribwa harimo abantu bagaragara ko bari kugurisha, ndabona imboga zitandukanye, inyuma yaho ndahabona ibindi bintu biri gucuruzwa ,ndahabona ikimeze nk'umutaka ,ndahabona hirya ibiti ndetse hirya yaho hari n'inyubako.

Inzu nini ifitemo ikirangururamashusho harimo akabati gasa ikigina, ifite amakaro y'umweru n'umukara, ifite intebe z'umweru n'imeza y'umukara, ifite itara ry'umweru n'umukara iri kwaka, ifite imiryango y'ikigina kandi ifunguye.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Umuhanda urimo amabuye ndetse n'umucanga. Iruhande rwawo hari inzu ifite ibara ry'umweru ndetse umukara, hariho akarindabasazi k' ikirahure; amadirishya arafunze. Hejuru hari ikirere cy'umweru n'ubururu.

Inzu ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, ufite igipangu cy'umukara ndetse hirya y'aho hari ibyatsi bisa icyatsi hejuru yaho hari n'ikirere gifite ibicu by'bururu.

Akabati gafite ibara ry'ikigina ndetse n'ibara ry'inguni hariho aho bogereza ibyombo hafite irobine isohora amazi ndetse naho batereka ibyombo mu gihe bari kubyoza bikikijwe n'ibiti bifite amababi y'icyatsi.

Inzu ifite amakaro y'umweru, itewe amarangi y'ikigina, ndetse n'umweru, rifite aho batekera, hasa umukara ndetse n'umweru rifite n'utubati hejuru tw'umweru ifite itara ry'umukara amadirishya afunze.

Inzu nini igeretse rimwe ifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru werurutse, ifite amadirishya n'imiryango by'umweru hirya hari imbuga irimo ibihingwa bifite ibi by'icyatsi ndetse n'umweru.

Inzu ifite umuryango ukinguye harimo amakaro y'umweru ndetse inzu itewe ibara ry'umweru ifite inkingi ifite ibara ry'ikigina, ndetse hirya y'aho hariho n'idirishya rifunze.

Inzu ifite amabara y'ubururu, icyatsi ndetse ifite amatafari ku rupangu asa ikigina, iruhande rwaho hari umugabo wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umweru kandi iruhande rwe hari andi mabara ari hasi y'umukara ndetse n'ubururu.

Inyubako ndende isa umweru n'ubururu bwijimye ifite ibirahure bisa ubururu bwijimye kandi iruhande rwabo hari ibiti binini birebire bifite amashami menshi n'ibyatsi bisa icyatsi handitseho amagambo avuga ngo Agaciro diveropumenti fandi.

Inzu ifite ibara ry'umweru ifite n'itara hejuru risa umukara, ifite imiryango y'umukara irimo n'ibirahure ndetse iruhande rwayo hariyo ikimera gisa icyatsi, hejuru handitse amagambo avuga ngo, dore icyo amadolari ijana na mirongo ine ibihumbi byaguha muri Kigali.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo ugizwe n'amabara y'umukara nu'uturongo tw'umweru, kuruhande hari ibiti birebire by'icyatsi bitoshye, bitanga umuyaga n'amahumbezi ku banyura aho ngaho bose.

Umukobwa wicaye ahindukiye ufite imisatsi miremire y'umukara, wambaye ikanzu y'umweru ifitemo utuntu tw'umukara. Yicaye ku ntebe y'umukara n'imeza y'umukara n'icyatsi, iruhande rwe hari akabati k'ikigina gafite ibicuruzwa bitandukanye.

Intebe nyinshi ndetse n'ameza byinshi bisa umweru ndetse n'ikigina biri mu nzu isa umweru ifite amakaro y'umweru ndetse hirya hari n'ibindi bikoresho bisi ibara ry'umukara.

Abantu bahagaze mu iduka. Hari abagore batatu, babiri bambaye amakanzu y'ubururu, undi yambaye ijipo y'umukara n'ishati y'umukara n'umweru. Bahagaze ahantu bacururiza ibicuruzwa by'ubwiza, imbere yabo hari amashusho y'abakobwa bisize ibyo bintu.

Inzu nini mberabyombi irimo iraberamo ibikorwa bitandukanye harimo abantu batandukanye bamwe bahagaze abandi bari kugenda abandi baricaye. Muri abo bahagaze harimo umugabo wambaye ikote risa inguni, imbere ye hari ibicuruzwa bitandukanye by'inkweto biri mu bikarito by'umuhondo.

Inzu irimo abantu batandukanye hafashweho n'imbaho zifashe igisenge, mu bagabo harimo umwe wambaye umupira w'umutuku ingofero y'umweru, ndetse n'ijoro y'icyatsi hariho utubati dufite igikoresho gipima amafaranga yishyuwe, ndetse n'utubati tw'ibicuruzwa bitandukanye.

Utu ni utuzu tw'abajenti ba emutiyeni ndetse dukikijwe n'ibyapa bya eyeteri na bakiriya babagannye bari kubaha serivise zitandukanye.

Abantu bateraniye hamwe bari m'imurikagurisha bagurisha imyenda itandukanye harimo kositimu n'ibindi bicuruzwa bitandukanye hahagara abagore babiri n'abagabo babiri umugore umwe yambaye ishati yumweru undi yambaye ikanzu y'umuhondo yikoreye n'igikapu cy'umukara.

Abantu bahagaze ari benshi muri bo harimo abagore ndetse n'abagabo, harimo umugore wambaye ikanzu y'umweru witadiye n'igitambaro undi yamba umupira w'umweru, bahagaze ahantu ahantu bacuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo, ibikapu ndetse n'ibipirizo.

Inzu ifite amakaro y'umweru ifite purafo y'umweru n'amatara acanye, hahagazemo umugabo wambaye imyenda y'umukara hose n'inkweto z'umukra, ukikijwe n'ibicuruzwa bitandukanye byinshi cyane biri mu tubati dusa ikigina harimo ibicuruzwa by'umweru, ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'ibindi.

Ni igipapuro gisa umweruru kirimo akamenyetso k'izuba gasa umuhondo icyatsi cyerurutse n'icyatsi kijimye handitseho amagambo yanditse ngo ejo heza, ejo yandikishijwe ibara ry'ubururu heza handikishijwe ibara ry'icyatsi.

Abantu babiri bahagaze. Umugabo yambaye ikostimu y'umukara, ishati y'ubururu; ufite umusatsi mucyeya n'ubwanwa bucye. Afite impano y'umweru ari guhereza umukobwa uri guseka, ufite imisatsi miremire; wambaye imyenda y'umukara hose.

Umugore uri guseka wambaye igitambaro cy'umweru yambaye igitenge kirimo amabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'umukara. Iruhande rwe hariyo akamenyetso k'izuba gasa umuhondo, icyatsi ndetse n'icyatsi cyererutse.

Urupapuro rw'ubururu, ruriho abantu batatu bashushanyije, batwikiwe n'umutaka basa icyatsi. Hasi yabo handitse ngo, mituweri ubwisungane mu kwivuza, hejuru yabo gato iburyo, hari ikirangantego cy'ikigo gishinzwe ubwishingizi mu kwivuza.

Ikarita isa umuhondo irimo amagambo yandikishijwe umukara, hariho ifoto y'umwana udafite umusatsi ndetse harimo n'ikashe y'umuntu wayiteyemo iri ahantu hasa ubururu hegeranye n'akameza gasa ikigina.

Inzu mbera byombi ifite amakaro y'umukara yicayemo abantu batandukanye bicaye ku ntebe zisa umukara n'izindi z'ibyuma ndetse n'iz'ubururu, ifite parafo y'umweru ndetse ifite n'akabara k'ubururu harimo n'amatara ari kwak.

Impapuro nyinshi ziteretse zisa umweru handitseho amagambo atandukanye asu umukara hariho ahari abana batatu bakikijwe n'umutaka ndetse impande yayo hari ikirangantego cy'ikigo cy'ubwishingizi.

Intoki zifite ikaramu y'ubururu ziri kwandika ku agapapuro gasa umuhondo werurutse, hariho inyuguti z’umukara ndetse n’izu’ubururu, hariho na kashe ifite ikirangantego cy'igihugu.

Isoko rinini. Hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye bibitswe mu tubati. Bimwe muri ibyo bicuruzwa harimo imiti y'ibirahure y'ubwoko butandukanye; ndetse hakabamo n'amasabune y'amazi. Iri duka rikaba rifite amatara yaka umweru.

Abagabo babiri bahagaze bambaye amakositimu imwe isa umukara, indi isa ubururu undi yambaye ishati y'umweru undi yambaye ishati y'ubururu ndetse n'amadarubindi. Bahagaze ahantu hasa ubururu, impande yabo hari abandi bantu babiri bambaye imyenda y'ubururu.

Ikigaza kirabura gifite urupapuro rusa umweru ruriho ikirangantego k'ikigo gishinzwe, ubwisungane mu kwivuza, handitseho ngo, ikarita y'umunyamuryango y'ubwishizi mu kwivuza, ufite iyi karita ntarembera mu rugo.

Inzu nini y'ubucuruzi ifite amakaro y'umweru n'umukara ifite parafo y'umweru ndetse n'amatara y'umutuku, hariho n'akarangantego kamamaza yuko ibicuruzwa ari ibiryo, harimo utubat dutandkanye dufite ibiryo bitandukanye harimo n'imigati.

Iduka rinini rifite amakaro n'amatara ari kwaka menshi, afite utubati twinshi kandi tureture, dufite ibicuruzwa bitandukanye, bimwe bisa umuhondo, ibindi bisa umutuku, ibindi bisa ubururu.

Inzu nini irimo abantu batandukanye, harimo ibicuruzwa bitandukanye bisa umutuku, umukara, icyatsi, biri mu tubati na two dusa umutuku, umukara, n'icyatsi, kandi biri kuri makaro asa umweru.

Umugabo wambaye ishati y'umukara wirabura; inyuma ye hari abandi bagabo babiri umwe yambaye ishati y'umweru yikorera n'igikapu cy'umukara; nundi yambaye ishati y'umukara umugabo ari guhaha ibicuruzwa bitandukanye birimo ibifite imifuka y'umuhondo.

Inzu nini ifite amakaro y'umweru n'umukara, hahagaze umugabo ufite umupira usa umweru n'umukara, iruhande rwe hari ibicuruzwa bitandukanye, harimo imbuto, ndetse harimo n'ibyapa byamamaza ibicuruzwa bitandukanye bisa icyatsi n'umuhondo ndetse n'umutuku.

Inzu nini ifite amakaro y'umweru, ifite utubati dusa umutuku turerure, turimo ibicuruzwa bitandukanye bifite amabara asa umutuku, ubururu ndetse n'umweru.